Umugabo wishimye uri guseka, ufashe ku njerekani y'umuhondo, ari ku ivomero rusange rifite amariba abiri, yambaye ishati ya karokaro n'ipantaro y'umukara.

Abana b'abanyeshuri barimo ab'abahungu n'abakobwa, bambaye imyenda ibaranga ifite ibara rya kaki bari ku ivome rusange rifite amariba atatu, bari kuvoma mu ndobo z'umuhondo.

Amazu abiri yubakishije amatafari ahiye, afite ibara ry'ubururu imbere no ku muryango, bisa n'aho batararangiza igikorwa cyo kubaka, hakaba hari umugabo wambaye ishati y'umweru.

Abategarugori batatu n'umwana w'umukobwa wambaye ijipo irimo amabara y'umweru n'icyatsi n'ishati y'ubururu n'umweru, umwe muri bo ari gufasha umwana mutoya bateruye mu bijyanye n'ubuvuzi bw'ibanze.

Abategarugori bane, bari ku ivomero rusange, bari kuvomera mu ndobo y'umutuku n'ubururu, bari kumwe n'umwana wambaye agapira karimo ibara ry'umutuku n'icyapa giteye ku iriba, kiriho amabara y'ubururu n'umweru.

Ivomero rusange ririho umugore uri kumwe n'abana b'abahungu n'abakobwa bari kuvoma mu mabase y'umutuku n'umuhondo n'icyatsi n'injerekani y'umuhondo.

Umwana w'umukobwa wishimye bari kumukorera ivido y'umuhondo, ifite icyapa kiri mumabara y'ubururu n'umweru, yambaye umupira wa pinki, umugabo bahagararanye yambaye ijire ijya gusa n'umweru n'umupira w'ubururu n'isaha ijya gusa umukara.

Abaganga biganjemo ab'abagabo, bambaye amataburiya y'umweru, amapantaro y'umukara n'inkweto z'umukara n'abategarugori babiri harimo uwambaye umwenda w'umutuku, usa nkaho adakorana na bo.

Umutegarugori wambaye ishati irimo amabara y'umutuku n'umukara, n'igitenge gifite amabara y'ubururu n'umweru, yikoreye injerekani y'umuhondo, ifite umufuniko w'umutuku.

Abaturage barimo abagabo, abagore n'abana bari ku ivomero rusange, hari umwana uri kuvoma wambaye agapira k'umutuku n'ikabutura, ari kuvomera mu njerekani z'umuhondo.

Umwana w'umunyeshuri wambaye imyenda ibaranga, ijipo y'umutuku, ishati ya karokaro irimo umutuku mwinshi, ari gukaraba intoki kuri kandagira ukarabe itukura, ifite akabase ka oranje.

Umwana uri mu murima w'imboga, yambaye umwenda usa n'umweru, afite isahani iriho imboga, ku ruhande mama we uteze agatambaro k'umweru n'ikanzu yiganje mu mabara y'umweru n'umukara.

Abana biganjemo abahungu bari ku iriba rusange, bari kumwe n'umugabo wambaye ishati y'umukara, ipantaro y'umukara, uri kuvomera mu ijerekani y'umuhondo na kavido k'umuhondo kuruhande.

Abana b'abahungu n'abakobwa bari ku ishuri bambaye umwambaro ubaranga wa kake, bari gukaraba intoki mbere y'uko bajya mu ishuri.

Abategarugori benshi barimo kubyina barishimye, bari mu cyumba kirimo ibikoresho bitandukanye birimo intebe z'umweru n'iz'umukara, n'imeza isa na kake.

Abagabo icyenda bahuriye ku meza bisa naho bari kugirana inama hagati yabo cyangwa kuganira ku bintu byinshi bitandukanye, ku meza hari amakaye n'ibipapuro by'umweru n'ibirahure birimo amaji.

Umubyeyi wicaye wambaye umupira w'umweru uteruye umwana wambaye agapira ka oranje, ari kumwe n'umusore wambaye rinete n'umupira wa oranje n'ipantaro y'umukara usutamye ugiye kumugaburira.

Umugabo wambaye ishati y'umweru n'ijire rifite ibara rijya gusa n'ubururu bwijimye n'amarinete n'umutegarugori wambaye umupira w'icyatsi n'ipantaro y'umukara, afite imisatsi miremire y'umukara, hari ibikoresho biteretse ku meza bitandukanye, bifite amabara y'umweru n'icyatsi.

Umwana muto w'umuhungu wambaye imyenda y'ishuri isa n'umweru n'ikabutura ya move, afite igikombe cy'umweru ari kuvoma ku kigega cy'umukara.

Abana babiri b'abakobwa bari ku ivomero rusange rifite amariba abiri, bamaze kuvoma mu ndobo y'icyatsi, umwe ari gukorera undi.

Abana b'abanyeshuri b'abahungu n'abakobwa, bahagaze imbere y'ikigega cy'umukara bafite ibikombe by'icyatsi n'ubururu bari kunyweramo amazi.

Icyumba cy'inama kirimo abagabo n'abagore bicaye n'umuganga uhagaze imbere yabo wambaye itabuririya y'umweru ipantaro ya kake n'inkweto z'umweru uri kubagira inama mu byerekeranye n'ubuzima.

Abahungu n'abakobwa n'abagabo n'abagore bambaye imipira y'umweru n'ubururu n'ingofero z'umweru, bafite icyapa cyanditseho ibyo kurwanya kanseri y'inkondo y'umura.

Umukobwa uri kuvoma amazi mu ivido y'umuhondo ni base y'icyatsi n'umweru, yambaye umupira wa pinki n'ijipo y'umukara, yameshe imyenda ku ruhande ifite amabara y'umukara n'ubururu n'icyatsi.

Abategarugori benshi bisa n'aho ari abajyanama b'ubuzima harimo abagabo bake, abenshi bambaye imipira ya oranje n'amajire y'icyatsi, bazwiho mu gufasha abaturage mu nama zitandukanye z'ubuzima.

Abagabo benshi bahagaze, bari munsi y'igiti, harimo abambaye imipira y'umweru n'iy'umutuku n'iy'icyatsi n'abandi bambaye amajire, hari uwicaye, wambaye umupira utukura n'ipantaro ijya gusa n'umweru n'inkweto z'umukara, bisa nk'aho ari kunywa umuti.

Icyumba cy'inama kirimo abagabo n'abagore bicaye mu ntebe zifite ibara ry'icyatsi n'ameza ya kaki, ariho udukombe twinshi tw'icyayi n'igikoresho kiri kubafasha cyitwa projecteur.

Umukobwa uri gukaraba intoki kuri kandagira ukarabe yo mu cyaro, ari guseka, yambaye ingofero n'umupira w'umweru n'ubururu n'igitenge gifite amabara y'umweru na oranje.

Abaturage bose baba abakecuru baba abagore baba abagabo bateraniye ku biro runaka kugira ngo babakemurire ibibazo bimwe na bimwe bafite byaba iby'ubutaka byaba ibyo mu ubuzima busanzwe kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Umwana uri ku ivomero rusange rifite amariba abiri, ari kuvomera mu gikombe cy'umuhondo, yambaye agapira kajya gusa n'umutuku.

Umukecuru uteze igitambaro cy'umukara n'ishapure y'ubururu n'ibitenge birimo amabara y'irose n'umukara, ari kumwe n'umwana muto wambaye ingofero y'ubururu n'umupira urimo umweru, baje gushaka inama kubijyanye n'ubuzima.

Ihuriro ry'abantu ryiganjemo igitsina gabo hari abahagaze abandi baricaye, harimo umutegarugori umwe wambaye umwambaro ujya gusa n'ubururu n'ibara ry'umweru n'inkweto z'umukara, bicaye ku ntebe zitukura zifite akabara k'umuhondo ku ruhande.

Umugore wari ku kiyaga uri kuvoma, injerekani y'umuhondo, inyuma ye hari umusore uri koza igare, wambaye ikabutura y'umukara n'umupira w'umuhondo n'inkweto z'umweru.

Abantu bateraniye hamwe muri sale yo kwa muganga, bari kurwanya gutwita kw'abangavu, bari kurebera hamwe icyakorwa kugira ngo ikibazo gihagarare, harimo abantu batandukanye, harimo nk'abaganga n'abavuye mu bigo bitandukanye.

Abaganga b'abasore n'inkumi barenga cumi na babiri, bambaye amataburiya y'umweru n'amabaji y'ubururu, inyuma yaho hari icyapa gishushanyijeho abantu nabo bishimye.

Icyumba cy'ishuri kirimo abana b'abahungu n'abakobwa bicaye hasi ku mikeka, bambaye imipira y'ubururu isa, harimo n'abambaye iy'umuhondo bicaranye n'abarimu babo.

Abana batatu harimo abahungu n'abakobwa, bari gukaraba intoki ku itiyo yapfumutse, bafite imisatsi isutse, umwe yambaye agapira k'umuhondo n'ak'ubururu, n'undi wambaye akajya gusa n'umweru.

Abana batatu b'abanyeshuri barishimye bari gukaraba intoki ku mariba atatu atandukanye, bari ku ishuri bambaye imyambaro ibaranga ifite amabara y'ubururu n'umuhondo.

Abana babiri b'abahungu basutamye bari kw'iriba rusange bari gukaraba intoki, harimo uwambaye imyenda isa y'icyatsi n'umweru, n'undi wambaye agapira k'umutuku.

Umusaza wambaye agapfukamunwa k'ubururu n'umupira usa na kaki, ari gukingirwa n'umuganga wambaye agapfukamunwa k'ubururu n'itabira y'umweru na ga z'umweru.

Akazu kabugenewe gacuruza amazi, gafite ibara ry'umweru n'ubururu, hari abaturage b'abagore n'abakobwa baje kuvoma mu majerekani y'umuhondo.

Umutegarugori uhetse umwana uri ku ivomero rusange, yambaye igitenge kirimo amabara y'umutuku n'umuhondo n'agapira k'icyatsi, ari koza indobo zitandukanye zifite amabara y'umuhondo n'umutuku n'umweru n'ubururu.

Umutegarugori wicaye mu cyumba cyo kwa muganga, uteruye umwana wambaye ibitenge birimo amabara atukura n'umweru, ari kumwe n'umuganga uri kuvura umwana mu mutwe wambaye ga z'umweru n'itaburiya.

Abana benshi b'abanyeshuri harimo abahungu n'abakobwa bari ku ivomero rusange, bari gukaraba intoki, munsi hari ibase itukura iri kugwamo amazi, inyuma hari abagitegereje gukaraba.

Abana barenga batanu bari ku ivomero rusange, baje kuvoma amazi meza asukuye mu mavido y'umuhondo, abana bambaye amabara ya kake, ab'abahungu, ab'abakobwa yambaye akajipo k'umutuku n'agapira kajya gusa n'umweru.

Abana bato basa nk'abarimo abavuye ku ishuri kuko bambaye imyenda ibaranga, bari ku ivomero rusange, bari gukaraba intoki, harimo abahungu n'abakobwa.

Abagabo n'abagore bavuye impande n'impande zitandukanye, bafasha abaturage mu bijyanye n'ubuzima, kubaha inama zitandukanye, barishimye bari kumwe n'umugabo wambaye ikositimu y'umukara na rinete.

Abana b'incuke b'abahungu n'abakobwa, bambaye imyenda y'ishuri, amakanzu y'ubururu n'amashati ya buresiyeri, bari kumwe n'ababyeyi babo ndetse n'abarezi.

Umugabo wambaye ipantaro y'ubururu, agapfukamunwa k'umweru, umupira w'ubururu n'ingofero y'ubururu, ari gukorera umwana akavido k'umuhondo, wambaye imyenda irimo amabara ya shokora n'umuhondo, n'umuzungukazi uri kubafotora, wambaye ishati y'umweru, na telefone y'umukara.

Umuganga usutamye uri gukingira umwana amutera urushinge, ku meza hari ibikoresho bitandukanye ari kwifashisha, ari kumwe n'umudamu uteruye umwana, wambaye umupira w'ubururu n'umweru n'umukara n'igitenge mu mutwe kirimo icyatsi n'umukara.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo umubyeyi wazanye umwana kumuvuza, yateze igitambaro kirimo amabara atukura n'ikanzu y'icyatsi n'umweru, ari kumwe n'umuganga wambaye itaburiya y'umweru n'agakoresho mu ijosi k'umukara, ari gukora ku mwana amusuzuma.

Umwana w'umukobwa wambaye imyenda y'ishuri, ijipo y'ubururu, ishati y'umweru, n'agapira k'amaboko maremare ka buresiyeri, ari gukaraba intoki.

Umwana w'umukobwa wambaye umwenda urimo amabara y'umutuku n'umuhondo, ari ku ivomero rusange, ari gukaraba intoki, hirya ye hateretse amajerekani y'ubururu n'umuhondo.

Abana b'incuke benshi, bicaye hasi bari, kubabwa amata n'abantu barimo abagabo n'abagore, bambaye amajile ya kahake n'imipira ya oranje.

Umutegarugori ukuze wambaye rinete n'agapira k'ubururu, n'ijire ijya gusa nk'umukara n'ipantaro isa nk'umukara, ari mu baturage ari kubaha impapuro z'umweru ziriho ubutumwa runaka.

Abategarugori bambaye udupfukamunwa, harimo uwambaye umupira utukura n'ingofero, uri guha umuti w'inzoka umwana muto wicaye, wambaye imyenda y'umukara.

Abana batanu b'abakobwa b'abanyeshuri bambaye imyenda ibaranga amashati y'umweru, amajipo ya karokaro, bari gukaraba intoki ku karobine gato.

Abaturage batandukanye benshi baje gukingiza abana ahantu mu cyaro, bari gufashwa n'umugabo mukuru wambaye itaburiya y'umweru agapfukamunwa k'umweru n'ibikoresho bimufasha mu gutanga iyi serivisi.

Abagabo n'abagore bakora ubukangurambaga mu kugira ubuzima bwiza mu miryango' n'inama zitandukanye ku bashakanye n'uburyo bwo kwita ku bana.

Abagabo n'abagore bari mu bukangurambaga bwo kwita ku bagore batwite aho batanga inama zitandukanye mu baturage uko umugore utwite yakwitwara.

Umukobwa uri ku ivome rusange wambaye umupira w'ubururu n'pantaro yumukara arikumwe n'abana bane bari kuvoma utuvido tw'umuhondo iruhande hari imodoka y'umweru ya toyota iparitse.

Umwana muto w'umukobwa uri ku ivomero rusange, yambaye ikanzu y'umweru n'umukara n'udukweto tw'umukara, ari ku vomera mu ndobo eshatu z'umweru.

Umwana mutoya w'umukobwa wambaye imyenda irimo amabara y'umutuku n'umweru n'umukara, ari gukaraba intoki ku iriba rusange mu ibase y'umukara, afite udusuko tugufiya n'amaherena.

Umubyeyi uteruye umwana waje kumuvuza, ari kumwe n'umuganga wambaye ibitenge birimo ibara ry'ubururu n'irindi rya oranje, yambaye itaburiya y'umweru nk'umwenda ubaranga, ari kuvura umwana.

Urujya n'uruza rw'abaturage barimo abagore n'abagabo n'abana, bari kumwe n'umuhungu imbere wambaye umupira wa oranje n'ipantaro y'umukara n'icyapa ku ruhande cyandikishijwe amabara y'umweru n'umuhondo n'umutuku n'umutegarugori upfukamye hasi, n'undi muhungu umuhagaze iruhande ufite mikoro y'umutuku.

Urujya n'uruza rw'abantu barimo abagabo n'abagore, bisa naho baje kureba abayobozi ngo babafashe mu bibazo bigiye bitandukanye, harimo iby'ubutaka n'ibindi byinshi bitandukanye.

Abaganga benshi bishimye bambaye amataburiya y'ubururu na baji zibaranga z'ubururu, bahagararanye n'umugabo wambaye ikositimu y'umukara, ishati y'umweru na rinete z'umukara.

Umwana w'umukobwa wicaye, ari gukaraba intoki ku iriba rusange, yambaye umwenda urimo ibara ry'umutuku n'umuhondo n'injerekani y'ubururu n'umuhondo.

Urujya n'uruza rw'abagabo n'abagore b'abaganga, bambaye amataburiya y'ubururu, baji z'umweru n'ubururu n'umugabo ubari hagati wambaye ikositimu y'umukara na rinete z'umukara.

Umwana w'umuhungu uri ku ivomero rusange, wambaye ishati y'icyatsi, ikabutura ya shokora, ku ruhande hari indobo ebyiri zifite amabara y'ubururu, iryo vomero rifite iminwa ibiri.

Umugore wambaye agapira k'umweru n’ijipo y’umukara ari kudaha amazi mu ijerekani y'umuhondo, ari kumwe numwana mutoya wambaye agapira kajya gusa n'umukara nawe uri kuvoma.

Abategarugori babiri, harimo uwambaye umwenda w'umukara n'igikoresho cy'indangururamajwi n'imisatsi miremire, yicaranye n'undi wambaye ikote ry'ubururu na rinete. Ku mpande zabo hari abagabo babiri, umwe wambaye ishati y'umukara, undi wambaye ikote rijya gusa nk'umweru.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo umutegarugori waje kwivuza, wambaye agapira k'umuhondo, ipantaro y'umweru, agapfukamunwa, ari gupimwa n'umuganga wambaye imyenda ibaranga ifite ibara ry'ubururu agapfukawa, n'undi inyuma ye wambaye nka we, ari ku meza irimo mashine n'ibikoresho bitandukanye byo kwa muganga.

Umutegarugori wambaye ikanzu ifite ibara rijya gusa n'ubururu n'ijire y'icyatsi cyerurutse n'agapfukamunwa k'ubururu na ga z'ubururu, ari gupima abaturage umuriro n'agakoresho kabugenewe.

Icyumba cyo kwa muganga gitegerererezwamo iyo ugiye kumara iminsi witabwaho, kirimo abaganga babiri bambaye amataburiya y'umweru, bari kwita ku mwana, umubyeyi ku ruhande wambaye agatambaro k'icyatsi n'ibitenge birimo ibara ry'umweru na shokora.

Umwana waje kuvoma ku kidendezi cyangwa ku kiyaga, yambaye umupira ufite amabara ajya gusa nk'umweru n'andi y'umutuku, n'ijipo irimo amabara y'icyatsi n'umuhondo n'ubururu.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye birimo mashini y'umutuku, y'umukara, intebe z'umukara, imeza za kake n'ibyapa bitandukanye kuruhande n'ifoto imanitse ku gikuta. Hahagazemo umugabo wambaye imyenda n'amabara y'ubururu n'umudamu wicaye imbere ye ufite imisatsi miremire.

Abana babiri bisa naho bari mu cyaro, bari imbere yo mu rugo, umwe ari gukaraba intoki mu ndobo y'ubururu n'umweru yambaye ikabutura y'umuhondo, isengeri y'umukara, ari gusukirwa amazi n'undi wambaye ikabutura ijya gusa n'umutuku, afite ijage y'ubururu mu ntoki n'ishati irimo amabara y'umuhondo n'umutuku.

Ivomero rusange ririho umwana mutoya uri kuvomera mu kavido k'umuhondo yambaye ishati irimo ibara ry'umuhondo ikabutura y'ubururu ari gufashwa numunyeshuri wambaye iniforume.

Abategarugori babiri bari ku iriba rusange umwe ari koza umwana mu ibase y'iroze, yambaye igitenge kirimo icyatsi, undi ahagaze afite indobo afatanye n'umwana akaboko.

Abagabo babiri bari gusuzanya umwe wambaye ikositimu y'umukara na baje n'undi wambaye ikositimu ijya gusa na gereyi n'undi kuruhande wambaye rinete. Uri kubareba inyuma yaho hari umuzungukazi wambaye isharupe y'icyatsi n'undi mugabo uri iruhande rwe.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye, hahagazemo abaganga batatu, babiri bambaye imyenda y'ubururu n'udupfukamunwa, utundi mu mutwe tw'ubururu, bafite ibikarito by'umweru, n'uri hagati wambaye itaburiya y'umweru.

Icyumba cyo kwa muganga cyifashishwa mu gukora operasiyo ku bantu barwaye indwara zikomeye cyangwa barembye, harimo umuganga wambaye itaburiya ijya gusa nk'icyatsi n'agapfukamunwa k'ubururu.

Sale irimo abagabo n'abagore baje kugirwa inama zitandukanye z'ubuzima, bafite ibipapuro by'umweru, bicaye ku ntebe z'umuhondo, ku nzu hariho ibipapuro byinshi by'umweru.

Abaganga babiri bambaye imyenda yabugenewe mu kwirinda indwara z'ibyorezo zandura, bambaye udupfukamunwa tw'umweru imyenda ijya kumera nk'amashashi y'ubururu, na ga z'umweru, bari gupima umusaza wambaye ingofero y'ubururu n'imyenda y'umukara.

Umwana w'umuhungu uri ku iriba rusange yambaye inkweto z'ubururu n'ikabutura y'umutuku, ari kunywa amazi akoresheje ibiganza bibiri hasi hari indobo iri kumenekamo amazi ijya gusa nk'ivu.

Abategarugori babiri bateruye umufuka bawufatanyije, bari kumwe n'abagabo n'abagore, imifuka myinshi y'umweru bisa naho bari kuyivana hamwe, bayishyira ahandi.

Umugore n'umugabo bari ku iriba rusange, bari kuvomera mu majerekani y'umuhondo, hejuru y'iriba hari umukobwa wambaye ijire ya oranje n'umupira w'umweru.

Agatanda k'amasahane gakunda kwifashishwa mu byaro mu kunoza isuku kuko bashyiraho amasahane akumuka, iruhande hari insina nyinshi.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara, ari gukaraba kuri kandagira ukarabe yo mu cyaro iriho akavido k'umuhondo n'umupfundikizo w'icyatsi.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo umubyeyi, wambaye umupira wa move, uteruye umwana waje kumuvuza, ari kumwe n'umuganga, wambaye itaburiya y'umweru, uri kwita ku mwana.

Abategarugori benshi baturutse impande n'impande, harimo n'abagabo bambaye amabaji y'ubururu n'umweru, ku meza hari amazi, barishimye bari gukoma amashyi.

Umutegarugori wambaye ishati y'umweru, uri guseka, ufite imisatsi migufiya y'umukara, ateruye umwana uri hagati y'amezi atatu n'icyenda, wambaye umupira w'umweru.

Ibitaro biganwa n'abantu bafite ikibazo cyo mu mutwe, imbere yaho hateye indabo, amabara yandikishije izina ryaho ni ubururu, hahagaze umugabo wambaye rinete z'umukara, ishati ya kake.

Abana bari mu kigero kiri hagati y'imyaka irindwi na cumi n'itatu, bicaye ahantu harimo abakobwa n'abahungu, barishimye bari guseka.

Umukecuru wicaye wambaye ijipo ya move n'ishati nini irimo amabara y'umutuku na kake n'agatambaro mu mutwe karimo ibara ry'umutuku n'umweru, yicaranye n'abana benshi b'abahungu n'abakobwa, harimo abambaye imyenda y'ishuri.

Icyumba k'inama kirimo abagabo n'abagore baturutse impande zitandukanye, bambaye amabaji y'ubururu, bafite amazi ku meza n'amamashine.

Abantu bahagaze imbere y'inyubako nini, barishimye, bari hagati y'abantu cumi na batanu, harimo abagabo ikenda n'abategarugori batandatu.

Umwana uri mu ishuri ry'incuke wishimye uri kurya biswi, yambaye ishati y'umweru afite imisatsi miremire ijya gusa na shokora n'ikabutura y'ubururu.

Urubyiruko rurimo abahungu n'abakobwa bambaye umupira y'ubururu abenshi bambaye amapantaro y'umukara bariku n'umugabo wambaye ishati y'umweru, na karuvati n'ipantaro y'umukara.

Icyapa cyanditseho ijambo ry'abanyarwanda bose muri iki gihe rivuga riti "turi kumwe", munsi hari umugabo wambaye ishati y'umweru uri hagati y'iderapo ry'u Rwanda rifite amabara y'icyatsi umuhondo n'ubururu.

Umukobwa wicaye bifashe mu mutwe n'amaboko abiri, yambaye agapira k'umweru, ari kumwe n'undi bigaragara ko ari kumuba hafi, wambaye agapira k'ubururu.

Umugore wicaye ku musambi uzinze, wambaye umupira ujya gusa n'umweru, n'ijipo irimo amabara y'umweru n'ubururu n'inkweto za kamambiri z'umutuku n'umukara, azirikiye ku giti n'iminyururu bisa naho afite ikibazo cyo mu mutwe.

Abategarugori babiri harimo uteruye umwana n'undi ufite agakoresho gapima ko wasamye na terefone y'ubururu mu ntoki, bisa nkaho ari kumwereka ibisubizo.

Umugabo bigaragara ko afite ikibazo cyo mu mutwe kubera ko yambaye imyambaro icikaguritse, kandi ijya kumwambika ubusa, ari kumwe n'undi mugabo bigaragara ko agiye kumufasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi.

Umusaza wicaye mu muhanda bigaragara ko afite ikibazo cyo mu mutwe, yambaye ikote rya kake, igitenge cy'umutuku, afite ishashi mu ntoki, afite ibyatsi ameze nk'aho ari kurya, n'amacupa abiri ku ruhande aziritse ku nkoni.

Umugabo wicaye hasi ufite ivumbi ryinshi ku birenge, wambaye imyenda yacikaguritse ufite n'amashashi harimo amazi mu ntoki, wifashe ku itama wambaye n'ingofero bigaragara ko afite indwara yo mu mutwe.

Umukecuru uri guseka wambaye ibitenge birimo amabara y'icyatsi, umuhondo n'umukara n'umweru n'ikindi ateze mu mutwe gisa n'icyo yambaye.

Ihuriro ry'abantu batandukanye bicaye, harimo abari n'abategarugori, higanjemo urubyiruko rw'abahungu n'abakobwa, rwambaye imipira y'umukara n'amapantaro y'umukara.

Umusaza wicaye hasi, washungerewe n'abantu batandukanye, yambaye amapingu, umupira w'umutuku n'ikabutura y'ubururu, bisa n'aho afite ikibazo cyo mu mutwe, bari kumuha amafoto.

Abategarugori babiri bateruye abana batoya, bari kumwe n'undi uri kubagira inama z'ubuzima zitandukanye. Hari taburete imbere ye y'umweru na terefone ntoya biteretse ku meza ya shokora.

Umugabo usa n'ukuze, wambaye umupira w'icyatsi, uri kurira, ufite agahinda mu maso, ashobora kuba arwaye cyangwa yumvishe inkuru mbi.

Umutegarugori uvuye mu murima gukura ibijumba, yikoreye igitebo kirimo imigozi n'ibyo bijumba, afite isuka mu ntoki, yambaye umupira w'amaboko maremare w'umukara n'icyatsi cyijimye.

Abana b'abahungu n'abakobwa mu ncuke barishimye baraseka, bambaye umwambaro ubaranga ufite amabara y'icyatsi n'ubururu.

Umugabo wicaye hasi mu ipine ufite imisatsi myinshi yikaraze, yambaye imyenda isa nabi, ikabutura ya kaki, agasengeri karimo umweru na move, biragaragara ko afite ikibazo cyo mu mutwe.

Abategarugori babiri n'umwana n'umugabo wambaye umupira w'umutuku, ufite terefone y'umukara, basuwe n'umugabo n'umugore, babagire inama z'ubuzima zitandukanye.

Abagabo n'abagore n'inkumi n'abasore bari muri sale, bari guhabwa inama ku bijyanye n'indwara yo mu mutwe, ku meza hari amakayi y'umweru.

Abana b'abanyeshuri bambaye imyenda ibaranga, imipira y'umuhondo isa b'abahungu n'abakobwa, bateranyirije ahantu bari kubaha inama zijyanye n'ubuzima

Umugore wo mu cyaro uteze igitambaro cya oranje n'umupira wa kake, ateruye umwana wambaye agapira k'icyatsi, iruhande rwe hari undi ukuze wambaye umupira w'ubururu, bari gutora soya muri mironko.

Umugabo wicaye wambaye umupira w'ubururu bisa naho ari kwandika, ari kumwe n'umutegarugori wambaye igitenge kirimo amabara y'umuhondo n'ubururu n' umupira w'icyatsi n'igitambaro cy'ubururu, ku meza hari icupa ry'amazi.

Abategarugori batatu, barimo uwambaye igitenge kirimo amabara y'umuhondo n'umutuku, n'undi uri hagati bambaye ikanzu irimo amabara y'umukara n'umweru, no kuruhande umwana wambaye ishati y'umutuku, bari imbere y'umugabo usa nkaho afite ikibazo runaka cy'uburwayi.

Umukobwa wicaye urimo guseka yambaye agasengeri k'umukara gaciye amaboko n'ipantaro ya buresiyeli na shanete mu ijosi n'udukomo tubiri, afite umusatsi ujya kuba mwinshi y'umukara.

Urujya n'uruza rw'abaturage baje guhabwa inama n'ubuvuzi ku ndwara yo mu mutwe, ifata abantu bose barimo abagabo, abagore n'abana, bari gufashwa n'abaganga bambaye udupfukamunwa tw'ubururu.

Abakobwa babiri bambaye udupfukamumu tw'ubururu, bicaranye n'umutegarugori wambaye umupira ujya gusa nk'icyatsi cyijimye n'igitambaro mu mutwe, bari kumugira inama kubijyanye n'indwara zo mu mutwe.

Umutegarugori uri mu nzu, bifite akadirishya k'umukara, gafunguye, yicaye ku ntebe y'urubaho, n'umusambi imbere, yambaye ibitenge birimo umuhondo, n'umukara n'umweru n'agapira ka shokora k'amaboko maremare n'umweru.

Umugabo uhagaze muri puberi wambaye ingofero y'umukara n'ibyenda by'umukara bisa nabi, yiziritse amashashi n'ibitambaro, biragaragara ko afite indwara yo mu mutwe.

Ibitaro binini, imbere hari ubusitani bwiza, bivurirwamo abantu bafite indwara zo mu mutwe, biganwa n'abantu batandukanye baturutse impande n'impande.

Umugabo uri imbere y'igikamyo cy'icyatsi n'umukara, afite ibishashi ku rutugu yambaye imyenda yacikaguritse, biragaragara ko arwaye indwara yo mu mutwe, yisize n'amakara mu maso no ku maboko.

Umwana w'umukobwa, wambaye ikanzu y'ubururru n'umweru, afite agakinisho k'igisimba mu ntoki, usa nk'ufite ikibazo cyo mu mutwe, yicaranye n'umutegarugori wambaye umupira w'umukara.

Icyumba k'inama kirimo abategarugori benshi harimo n'abahetse abana, bari guhabwa amahugurwa ku ndwara yo mu mutwe n'uburyo wakwita ku muntu uyirwaye.

Abana n'abagore bicaye ku ntebe, bambaye imipira isa y'icyatsi, ku meza hari imiti myinshi y'amenyo ibari imbere n'abaganga bari kubavura amenyo.

Umukobwa uri mu cyumba, ufite imisatsi ya shokora miremire, yambaye agasengengeri k'umweru, ari kwiborosa n'uburoso bw'amenyo bw'umweru n'icyatsi.

Umukobwa wambaye ingofero y'umweru, w'imibiri yombi, afite agakoresho gafasha abantu mu kuvana ibiryo biba byasigaye mu menyo, gafite ibara rijya gusa nka bleu ciel n'akagozi k'umweru.

Umusore wambaye umupira ujya gusa nk'ubururu ari kwa muganga, ari kwitabwaho mu bijyanye n'ibibazo by'amenyo, hari umuganga w'umutegarugori wambaye ga z'ubururu, itaburiya y'umweru n'agapfukamunwa k'ubururu n'ibikoresho bigiye kumufasha kwita ku murwayi.

Umuganga w'umugabo wambaye itaburiya y'umweru, ga z'umweru, n'amarinete n'imisatsi mike y'umukara, afite ibikoresho bibiri mu ntoki, ari kuvura amenyo umwana.

Umusore uri guseka wishimye, wambaye ishati y'ubururu n'agapira mo imbere ka shokora n'ubwanwa bwinshi n'umusatsi mukeya ku mutwe.

Abaganga babiri umutegarugori umwe n'umuhungu umwe, bambaye amataburiya y'umweru n'udupfukamunwa tw'ubururu, bari kwita ku mwana muto warwaye amenyo, wambaye umupira w'umukara, agapfukamunwa k'umutuku.

Umugore wambaye isengeri y'umweru n'imisatsi myinshi y'umukara, ari koza amenyo n'uburoso bwa pinki n'umweru, ari kumwe n'umwana na we wambaye isengeri y'umweru, uri kwiborosa, ufite imisatsi myinshi.

Ishuri ririmo abagabo batatu, harimo uwambaye kositime n'umwarimu ku ruhande wambaye itaburiya y'umweru n'undi uhagararanye n'umwana wambaye imyenda y'ishuri ifite ibara ry'icyatsi kibisi, ari kumwereka uko boza amenyo bifashishije igikoresho cyabugenewe n'abategarugori babiri.

Umugabo mukuru uhagaze hejuru nta mwenda yambaye afite hishie yumweru ku rutugu n'akagozi k'umweru afatishije amaboko abiri yashyize ku menyo.

Umukobwa uri mu cyumba uri kwiborosa akoresheje uburoso bw'umweru na pinki, umuti w'amenyo mu ntoki. yambaye isengeri y'umweru n'imisatsi miremire y'umukara.

Umugabo wambaye umupira w'umweru, ufite derede, ari kumwe n'akana gato, k'agahungu, kambaye umupira w'umweru, bafite akagozi k'umweru bashyize mu menyo.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye, hicayemo umugabo w'umuganga wambaye itaburiya y'umweru, agapira k'umuhondo, ipantaro ijya gusa n'umukara.

Umwana uryamye wambaye ishati ya karokaro ari kuvurwa amenyo n'umuganga wambaye itaburiya y'umweru na ga z'icyatsi, bafite ibikoresho ari gushyira mu kanwa.

Umusaza wicaye ku ntebe y'umukara, wambaye agapira gafite ibara ry'icyatsi ryerurutse, ari kumwe n'umugabo w'umuganga wambaye itaburiya y'umweru n'agapfukamunwa na ga, bari kumukoza igikoresho mu kanwa, bisa n'aho yarwaye amenyo.

Icyumba kinini cy'umweru, kirimo ibikoresho bitandukanye, byifashishwa mu kuvura ababagana, niho bafatira ibizami bitandukanye kugira ngo bamenye uko bita ku barwayi.

Abategarugori babiri harimo uwambaye rinete n'ikote ry'umutuku, afite ibipapuro by'umweru n'ikaramu ari kwandika, undi yambaye ikote rya buresiyeri n'igipapuro cy'umweru mu ntoki n'ikaramu.

Umusore uryamye ku gatanda ko kwa muganga, wambaye umupira w'umukara, ari kuvurwa amenyo ari kumwe muganga wambaye ga z'ubururu n'udukoresho mu ntoki tugiye kumufasha mu kwita ku murwayi.

Umwana muto uri mu ivuriro ry'ibijyanye n'amenyo, yambaye umupira ujya gusa n'icyatsi, ari kumwe n'umuganga ukora muri iryo vuriro, wambaye imyambaro ibaranga, ifite ibara ry'ubururu na ga z'umweru, n'ibikoresho bimufasha mu gutanga serivisi.

Umusore uri guseka ufite imisatsi mike y'umukara ku mutwe, yambaye agapira ka muniga k'icyatsi cyijimye afite akantu mu ntoki k'umweru ari gutunga urutoki.

Umukobwa wicaye ku ntebe uri kwireba muri miruwari y'umweru uri guseka yambaye agapira k'amaboko maremare karimo imirongo y'umuhondo n'umweru.

Umugabo usa nk'ukuze uri mucyumba kirimo indorerwamo nini na robine n'uburoso n'icupa ririmo isabune, afite akantu k'umweru muntoki, yambaye rinete n'agapira kajya gusa n'umukara n'umweru.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo umuganga wambaye ga z'umweru, itaburiya y'umweru, agapfukamunwa k'ubururu n'amarinete, ari kwita ku murwayi ku bijyanye n'amenyo wambaye agapira k'umutuku.

Isoko rusange rihurirwamo n'urujya n'uruza rw'abantu baje kugura ibiribwa bitandukanye, hicayemo abategarugori batandatu, bambaye ibitenge, bari gucuruza inyanya.

Umusaza usa n'ukuze wambaye umupira ujya gusa n'umweru, ipantaro ijya gusa n'umukara ari kumwe n'umuganga wambaye imyenda ibaranga, ifite ibara rya buresiyeri ari kumufasha kwitoza kugenda neza.

Umutegarugori wicaye mu ntebe, wambaye ishati y'umweru irimo uturongo tw'ubururu, wambaye impeta, ari guseka, afashwe ku rutugu n'umwana w'umukobwa wambaye imyenda y'abaganga y'ubururu, n'umupira w'umweru imbere.

Umukecuru n'umusaza bari ku meza bari gufata ifunguro ryiganjemo imboga n'ibirahure by'amazi ku meza, barishimye, umusaza yambaye rinete n'ishati itukura, umukecuru yambaye ishati ijya gusa n'ubururu n'agasengeri k'umweru.

Umukecuru uhagaze ku kabati gafite ibara rya shokora, afite mikoro y'umutuku irimo umuhondo, agapira k'ubururu n'umukenyero ujya gusa n'umweru n'agakomo n'ikinigi gifite amasaro y'umukara n'umweru.

Umukecuru n'umusaza bicaye mu rugo, iwabo mu ruganiriro, yambaye umupira w'ubururu umukecuru, umusaza yambaye ishati ya karokaro, bisa nkaho hari ikintu runaka bari kureba muri terefone y'icyatsi, bafite imiti imbere yabo kumeza n'ikirahure cy'amazi, ashobora kuba ari umwe muri bo, ushobora kuba ufite ikibazo cy'ubuzima runaka.

Umusaza wambaye umupira ujya gusa n'ubururu, afite akantu k'umweru, ari ku meza ya kake irimo utundi tuntu twinshi tw'umweru ari kwereka umukecuru wambaye umupira w'umutuku n'amaherena.

Umusaza wicaye ufite inkoni, yambaye ishati y'umweru, ipantaro y'umukara, hari ibintu ari gusangira n'abana byo kurya bicaye, harimo uwambaye agakanzu k'umweru n'umutuku n'undi wambaye agapira k'iroza.

Umutegarugori usa n'ukuze, yicaye ku ntebe yambaye ishati y'umuhondo, rinete z'umukara, afite agacupa k'umweru, karimo imiti n'akandi kuruhande k'umweru n'imiti isutse kumeza.

Umusaza wambaye umupira w'ubururu afite icupa ry'imiti mu kuboko kumwe, ukundi kuriho ibinini agiye kunywa n'ikirahure cy'amazi giteretse ku meza, ari kumwe n'umukecuru wambaye umupira w'umutuku uri kumwereka agapapuro.

Umugabo usa nk'aho akuze. Wambaye umupira ujya gusa n'umweru, ikabutura ya kake, n'inkweto zijya gusa umukara. Ari gukina umukino witwa basket n'umwana w'umukobwa ufite imisatsi myinshi, ufite ballon wambaye ipantaro y'icyatsi n'umupira w'umweru.

Umugore usa nk'ukuze, yarambuye agatapi mu byatsi ari gukora siporo, yambaye ipantaro y'iroze n'agapira kajya gusa nk'umukara na ko gafite iroze ku ngofero, afite imisatsi myinshi y'umukara.

Umukecuru ukuze wicaye ufite ikirahure cy'amazi mu ntoki wambaye ishati isa na kake, ari kumwe n'umuganga wambaye imyenda ibaranga ifite ibara ry'ubururu, ari kumuha imiti.

Umukecuru wicaye ahantu mu murima wambaye igitenge cy'umuhondo n'ishati y'umweru n'agatambaro k'umweru, atetse ku mashyiga mu dusafuriya tubiri tw'umukara.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo umugabo wicaye mu kagare, umeze nk'ukuze, wambaye umupira ujya gusa n'umweru, ari kuganira n'umuganga wambaye imyenda y'ubururu ibaranga, barishimye, bari guseka.

Icyumba cy'ivuriro kirimo umuntu wambaye umwenda ufite ibara ry'ubururu n'igitanda cy'umweru, ari kugendera ku gikoresho cyabugenewe, gifasha umuntu kwimenyereza kugenda yemye nta kibazo afite.

Umusaza wicaye mu kagare k'umukara n'ubururu, wambaye ipantaro n'umupira w'amaboko maremare, bisa na rinete, akagare kari gusunikwa n'umwana w'umukobwa wambaye agapira kajya gusa n'ubururu, bari guseka.

Abategarugori babiri bari guseka bahagaze mu gikoni, umwe afite ikirahure kirimo icyo kunywa undi ari gutegura imboga zo guteka zirimo, inyanya, imboga z'icyatsi, pavuro z'umuhondo n'ibindi.

Umugabo usa nk'ukuze, aricaye mu rugo, ari gufata ifunguro, yambaye ishati ya kakaro irimo amabara y'umutuku n'umukara n'umweru n'umupira ujya gusa umukara n'ikirahure giteretse ku meza, kirimo amazi.

Umusaza wicaye wambaye umupira ijya gusa n'umukara n'amarinete, ari kumwe n'umukobwa uri kumwitaho amuha imiti, wambaye umupira w'umuhondo, ku meza hari ikayi n'ikirahure cy'amazi.

Umugabo n'umugore n'abana batatu, harimo uw'umuhungu wambaye agapira k'ubururu n'umukobwa wambaye ikanzu irimo amabara y'umweru n'icyatsi n'undi muto wambaye ishati ya karokaro, barishimye bari guseka.

Umugabo uri mu zabukuru wambaye umupira ujya gusana shokora n'imisatsi y'umweru, ari gusindagizwa n'umutegarugori wambaye agapfukamunwa k'umweru n'amarinete ufite umusatsi muke ku mutwe.

Icyumba cyo kwa muganga cyicayemo umusaza wambaye ishati y'amaboko maremare ya shokora, yicaranye n'umugabo w'umuganga wambaye itaburiya y'umweru n'igikoresho cy'umukara mu ijosi gipima abantu uko bameze, kumeza hari ikaramu n'ikayi n'indi ari kwerekeramo umusaza bafite mu ntoki.

Umusaza wicaye mu cyumba inyuma ye hari ibipapuro bihamanitse, yambaye ishakete y'umweru ishati y'icyatsi ari kwandikira ku meza ijya gusa umuhondo.

Umusaza wicaye ku gitanda wambaye ishati y'ubururu na rinete, ari guhagurutswa n'umukobwa wambaye umupira wa kake n'imyenda y'ubururu ufite imisatsi miremire.

Umusaza wambaye rinete n'umupira w'umweru urimo uturongo, ari gusoma igitabo ari kumwe n'umusore wambaye ishati ya karokaro, y'umweru, n'umukara, imbere yabo hari amatasi abiri y'umweru bari kubona ko bishimye bari guseka.

Umutegarugori uhagaze ahantu hameze nko mu gikoni, afite isahani iriho ibiribwa byiganjemo imboga n'ifurusheti mu ntoki, yambaye umupira w'umweru.

Umusaza wambaye ishati ya karokaro ufite umuti mu ntoki uri mu icupa rigufi n'indi miti iri ku meza iri mu ducupa tw'umweru tugufi, yicaranye n'umutegarugori wambaye rinete n'ishati ijya gusa n'umweru ufite machine.

Abakecuru batatu harimo uwambaye ingofero y'umweru n'umupira w'umukara n'undi wambaye ingofero y'ubudodo y'umweru n'ubururu, uri hagati wambaye rinete ufite telefone y'ubururu bari kurebamo.

Icyumba cyo kwa muganga cyicawemo n'umugabo wambaye umupira ujya gusa nk'umweru cyangwa ubururu, wambaye na rinete ubona ukuze, ari gufashwa n'umugangakazi wambaye imyenda ibaranga ifite ibara ry'ubururu.

Umukecuru wambaye umupira w'amaboko maremare, wa shokora, ari kumwe n'umukobwa wambaye rinete n'umupira wa muniga ujya gusa nk'icyatsi afatanya ku rutugu n'umwana w'umuhungu wambaye umupira ujya gusa n'umweru, ufite utuntu tw'icyatsi mu ntoki.

Umusaza wambaye umupira w'ubururu n'ikabutura y'umukara, ari kugendera ku bintu bifasha abantu mu kwitoza kugenda, ari gufashwa n'umugangakazi wambaye imyenda ibaranga y'umukara.

Umukecuru wambaye umupira wa kaki n'ishati y'umukara, ari kumwe n'umusore wambaye umupira w'umutuku, afite isahani iriho ibiryo bitandukanye biriho n'imigati, n'umukobwa iruhande wambaye ikanzu y'umweru ufite utwuko tubiri, ari kwarurira umusore ibiryo.

Umusaza ugeze mu zabukuru, ufite imisatsi y'umweru n'ubwanwa bwinshi bw'umweru, ari gukarabya n'umutegarugori, yicaye mu kintu kimeze nk'ibase y'icyatsi.

Abategarugori bari hagati y'icumi abenshi bambaye imipira y'umweru, amajipo y'umukara n'inkweto z'umukara, udupfukamunwa tw'ubururu n'ingofero z'umweru kuri bamwe.

Abadamu n'abagabo basa nk'aho bakuze, bari mu myitozo ngororamubiri, umutegarugori umwe yambaye umupira ujya gusa n'umweru, imisatsi mike ku mutwe y'umukara n'agakoresho kabafasha muri iyo myitozo.

Umusaza wambaye umupira w'ubururu n'agakoresho mu ntoki ka siporo, ari gufashwa n'umuganga wambaye itaburiya y'umweru, urimo gukora imyitozo ngororamubiri, wambaye n'agapimo kareba uko umuntu ahagaze mu ijosi.

Umugore usa nk'ukuze, wambaye umupira w'ubururu, ufite imisatsi myinshi y'umweru, amaherena, yambaye na rinete z'umutuku, ari kwita ku mugabo na we usa nk'ukuze, amuhereza amazi yo kunywa, wambaye umupira ujya gusa nk'umweru, wicaye ku buriri.

Umukecuru uri mu cyumba cyo kwa muganga, aho bita ku bantu bageze mu zabukuru, ari kumwe n'umuganga wambaye imyenda ibaranga y'ibara ry'ubururu, ari kumuha imiti n'amazi mu kirahure ateretse ku meza.

Umuzungukazi wicaye uteruye umwana ari kumwe n'bandi bategarugori n'abana bicaye, bari kwitegereza uri gukora imirimo y'ubugeni ari kuboha igitebo.

Abategarugori n'abagabo bishimye, bahagaze mu murima urimo ibihingwa bitandukanye, bamanitse amaboko hari abafite uduti n'ibindi bihingwa mu ntoki.

Umusaza wicaye wambaye umupira w'umuhondo, afashe mu kiganza umukobwa umuri iruhande, ufite ibisuko by'umukara, wambaye imyenda isa ya buresiyeri.

Abana b'abahungu n'abakobwa bishimye bari guseka, bari kumwe n'umumama ukuze uteze igitambaro, wambaye ishati ifite amabara y'umweru n'umukara n'udukomo ku kaboko.

Umusaza wambaye umupira wa buresiyeri n'ipantaro ya kake, wambaye rinete, ari kumwe n'umukecuru wambaye agapira kajya gusa nk'iroze, bari guseka, bari gukina utuntu tw'umukara ku meza.

Abategarugori bagera kuri batandatu barishimye, bari gufatanya mu gusarura igihingwa cyitwa icyayi, hari uwambaye ikanzu y'ubururu n'agatambaro bisa n'undi wambaye ibitenge birimo umutuku.

Umutegarugori usa n'ukuze wicaye yambaye umupira ujya gu gusa oranje n'igitambaro cy'umukara mu mutwe na rinete z'umukara, ari kumwe n'umuganga wambaye iniforume y'ibara ry'ubururu n'igikoresho mu ijosi, kimufasha gupima abarwayi amufashe ku rutugu.

Umusaza wicaye barigufata ibipimo ngo barebe uko ubuzima bwe buhagaze, yambaye rinete, ishati y'umutuku, ipantaro ya kake, umuganga yambaye imyenda ibaranga ifite ibara ry'ubururu n'imisatsi miremire y'umukara.

Abategarugori babiri bari mu myitozo ngororamubiri bari guseka, umwe yambaye agapira k'amaboko mato kajya gusa n'umweru, undi yambaye isengeri ya buresiyeri.

Umusaza wicaye wambaye ishati y'amaboko maremare ya shokora n'ipantaro y'umukara, afite igikoresho kiziritse ku kaboko kimufasha kureba uko umutima we umeze.

Abaganga batatu bambaye badge z'akazi zibaranga, bari gufasha abaturage batandukanye kubapima indwara, iruhande hari ushinzwe kuyobora abarwayi aho baca, wambaye ijule y'icyatsi n'umupira w'ubururu.

Abakobwa bahagaze benshi, bambaye imipira y'umweru isa n'amapantaro y'umukara n'ubururu, bari mu byapa bisa n'aho hari ikintu runaka bari kwamamaza.

Abaganga batandatu bambaye imyambaro y'ubwirinzi mu kurwanya indwara z'ibyorezo zitandukanye, ifite ibara ry'umweru na masike z'ubururu, inyuma hari umugabo wambaye imyenda y'ibara rya move na masike, bigaragara ko abafasha mu kazi kabo ka buri munsi.

Umusore wambaye imyambaro yo kwa muganga, ifite ibara ry'ubururu n'agapfukamunwa, ari guhabwa urukingo rwa Kovide ari kumwe n'umugabo ukuze wambaye ingofero n'amarinete, niwe uri kumutera urwo rukingo.

Abantu batandukanye bari muri salle, imbere yaho hari abayobozi bo muri rbc. Harimo umutegarugori wambaye paji y'ubururu, n'umupira ujya gusa n'umweru, n'imisatsi myinshi y'umukara, n'umugabo hagati w'ikote ry'umukara, n'undi ku ruhande w'umuzungu wambaye umwenda w'umweruru.

Umutegarugori bisa n'aho yicaye muri sare ari gutanga ikiganiro runaka, yambaye ipantaro y'umukara, ikote ry'umweru ririmo imirongo, afite n'indangururamajwi y'umukara n'ikayi ku bibero.

Salle irimo abagabo n'abagore b'urubyiruko rw'abahungu n'abakobwa, baturutse impande zitandukanye bari gususurutswa n'abagabo n'abagore bari kubabyinira indirimbo za traditionnel ku munsi wo kurwanya SIDA.

Umutegarugori wambaye bage y'ubururu n'umweru n'ikanzu irimo amabara y'umweru n'umutuku n'inkweto z'umukara, ari kumwe n'umugabo wambaye ikositime y'umukara n'ishati y'ubururu na baji n'icyapa inyuma cy'umweru.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo abaganga bagera kuri batanu, bambaye imyenda y'ubururu, udupfukamunwa na ga z'umweru, bisa naho bari kubaga umurwayi uryamye ku gitanda.

Ababyeyi bane bateruye abana baje gukingiza, bari bari kuganira mu gihe bagitegereje guhabwa serivisi, nyuma yaho hamanitse ibintu byerekana uko wakwita ku mwana.

Urubyiruko rurimo abahungu n'abakobwa b'abanyeshuri n'abarimu babo, bambaye imyenda ibaranga ariyo ishati y'umweru n'amapantaro ya kaki cyangwa amajipo, bari mu bukangurambaga bwo kurwanya virusi itera SIDA.

Umukobwa wambaye umupira w'umukara n'ibisuko, ari gupimwa n'umuganga wambaye ijire y'umutuku, ku meza hari ibikoresho bitandukanye by'ubuvuzi na mikoro y'umukara.

Sale y'in'inama irimo ibikoresho nk'intebe nyinshi z'umukara n'akabati k'umweru, hazamo abantu baje gufata amahugurwa y'ubuzima cyangwa y'imibereho n'ibindi.

Icyumba cyo kwa muganga cyita ku bafite ibibazo by'amaso, harimo ibikoresho bitandukanye, byifashishwa mu gutanga serivise ku barwayi, harimo mashine y'umukara, televiziyo y'umukara, intebe y'umukara n'izindi zifite ibara ry'ubururu.

Icyumba cyo kwa muganga gitegererezamo abarwayi bagiye kumara iminsi bitabwaho, kirimo supanete z'umweru, amarido y'ubururu, ibitanda by'umweru n'ubururu, bishasheho amashuka y'umweru, hahagazemo abaganga batatu bambaye imyenda ibaranga y'icyatsi kibisi n'udupfukamunwa tw'umweru.

Inzu nini y'umweru ifite amabati y'ubururu, iganwa n'ababyeyi gusa baje kubyara, baturutse impande zitandukanye, kuko hari abo baha taransiferi yo kuza aho ngaho.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye, harimo igitanda gifite ibara ry'ubururu n'umweru n'amashuka y'umweru, ashasheho n'ibikoresho bifasha mu kureba uko ubuzima bw'umuntu buhagaze.

Icyapa cyandikishijeho amabara y'icyatsi n'umukara, cyerekana ko ari ivuriro, imbere yaho hari abaganga b'abari n'abategarugori, bambaye imyenda ibaranga ifite ibara rya bure siyeli n'udupfukamunwa.

Forumasi icuruza imiti itandukanye, iganwa n'abantu bafite ibibazo by'ubuzima, ikorana n'ibigo bitandukanye by'ubwishingizi burimo RAMA, umugabo wambaye umupira w'umweru n'umumotari wambaye kasike.

Mu cyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye, birimo machine n'ibindi byifashishwa mu kwita ku barwayi baje babagana.

Farumasi icuruza imiti myinshi itandukanye iganwa n'abantu bafite ibibazo by'ubuzima barwaye nk'umutwe n'izindi ndwara zoroheje.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye, gisize irangi ry'umweru, harimo ibitanda n'ibikoresho bifasha mu kureba uko abarwayi bameze n'amarido y'icyatsi kibisi.

Ibitaro bya Rwamagana biganwa n'abantu benshi batandukanye, bafite ibibazo by'ubuzima, imbere yaho hahagaze abagabo, abagore, n'abakobwa, bambaye amabaji y'umweru n'ubururu bisa naho bavuye kubisura.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo umutegarugori wateze agatambaro wicaye, wambaye agapira akajya gusa n'icyatsi kijimye ari kumwe n'umuganga umuteze amatwi, wambaye imyenda ibaranga uri no kwandika, inyuma ye hari undi wambaye imyenda y'ubururu uri gutambuka.

Ikigo nderabuzima cya Tabagwe cyiganwa n'abantu benshi batandukanye, bafite ibibazo by'uburwayi harimo Umutima, Diyabete, Malariya n'izindi ndwara kandi bagatanga inama mu bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere.

Ibitaro binini bivurirwaho abarwayi ba kanseri, baturutse impande n'impande z'igihugu, hari gutambuka umugabo wambaye iniforume w'umusirikare, ingofero y'icyatsi n'imyenda isa icyatsi cyijimye.

Inzu nini ifite amabati y'ubururu n'irangi ry'umweru ku madirishya ivurirwamo amaso iganwa n'abantu benshi batandukanye baturutse impande n'impande.

Inyubako nini ndende ifite amabara y'umweru n'umuhondo, iganwa n'abafite ikibazo cy'ubuzima baturutse mu mpande zitandukanye z'igihugu cyane cyane bibanda ku ndwara y'umutima.

Inzu icuruza imiti itandukanye izwi nka farumasi, imbere hari umugabo wambaye agapira k'umweru n'umumotari iruhande uparitse wambaye kasike.

Ivuriro rinini, ririmo abarwayi benshi batandukanye, bicaye ku ntebe z'umukara, aho bategerereza kwakirwa, bavuye impande n'impande zitandukanye.

Ikigo nderabuzima kinini gifite amabati y'ubururu, irangi ry'umweru n'ubusitani burimo indabo, ni ivuriro riganwa n'abantu batandukanye barwaye indwara z'ubwoko bwose n'ababyeyi baje kubyara.

Inzu nini y'ubuvuzi irimo imodoka eshatu ziparitse z'umweru, hari ubusitani bunini buteyemo indabo zitandukanye, ingufiya n'izindi ndende z'ibiti.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo umutegarugori uteruye mwana wambaye ikanzu ijya gusa na move n'umweru, ari kumwe n'umuganga wambaye itaburiya y'umweru n'amarinet n'agapfukamunwa n'akantu mu mutwe k'ubururu.

Ivuriro riganwa n'abantu benshi batandukanye barimo abakobwa, abagore, abana n'abandi baje kuhashaka serivisi z'ubuzima, harimo abarwaye umutwe, igifu, abakoze impanuka n'ababyeyi baje kubyara.

Aho bakirira abarwayi baje babagana bafite ibibazo by'ubuzima bitandukanye, hari abagore n'abakobwa n'abana bategererejwe kwakirwa.

Icyumba cyo kwa muganga kijyamo abarwayi bagiye kumara iminsi bitabwaho, kirimo ibitanda byinshi birimo irangi ry'ubururu n'umweru n'amarido y'umuhondo.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye, harimo intebe na mashine, hahagazemo umuganga wambaye itaburiya y'umweru n'agapfukamuwa k'umukara.

Inzu nini ifite amabati y'ubururu n'irangi ry'umweru imbere, iganwa n'ababyeyi gusa baje kubyara cyangwa benda kwibaruka; babaye baje gutegererereza kwa muganga.

Icyumba cyo kwa muganga gitegererezwamo uje ubagana ufite ibibazo by'ubuzima bitandukanye, harimo indwara, umutima, igifu, umutwe, malariya n'izindi.

Ivuriro rinini rifite amarangi y'umweru n'ubururu, riganwa n'abantu benshi batandukanye bavuye impande n'impande, barwaye indwara zirimo umutima, igifu, malariya abadamu baje kubyara n'abakoze impanuka.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo abaganga bambaye imyambaro ibaranga, ifite ibara ry'umweru n'udupfukamunwa tw'ubururu, bari gukingira abaturage batandukanye bambaye udupfukamunwa mu rwego rwo kubarinda indwara z'ibyorezo.

Abategarugori batatu b'abaganga bahagaze, bari guseka, bambaye imyenda y'akazi ifite ibara ry'ubururu n'utuntu bambaye mu mutwe twa buresiyeri.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo kimwe mu bikoresho bibafasha mu kazi kabo ka buri munsi, ni abagabo babiri b'abaganga bambaye amataburiya y'umweru n'udupfukamunwa tw'ubururu.

Icyumba cy'ishuri kirimo abantu batanu, harimo abagabo babiri, abategarugori babiri, n'umwana wambaye ishati y'icyatsi ari kumwe na mwarimu we, yambaye itaburiya y'umweru, agapfukamunwa k'ubururu, bisa nkaho hari ikintu runaka ari kumuha.

Inzu nini ivurirwamo indwara ya kanseri, ifite ibara rya oranje n'amadirishya y'umweru, n'amagambo manini yandikishije amabara y'icyatsi, n'ubusitani burimo indabo zitandukanye.

Icyumba cy'ivuriro gisize amarange y'umweru hategerereza abantu bagiye kumara iminsi bitabwaho, hari ibitanda by'umweru n'amarido afite ibara rijya gusa nk'icyatsi cyererutse n'umweru.

Icyumba cyo kwa muganga gifite irangi ry'umweru, kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye, harimo umuganga wambaye imyenda ibaranga isa umweru.

Ivuriro rinini ririho abantu benshi, harimo abagore, abana, abagabo, baje kwivuza indwara zitandukanye zirimo malariya, igifu, umutwe, agisida n'izindi.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibitanda, harimo umudamu wicaye wambaye ingofero y’umukara uri gupimwa n’umuganga wambaye itaburiya y'umweru, ufite igikoresho cy'umukara cyabugenewe cyo gupima, iruhande hari undi murwayi uri kubitegereza wambaye ishati y’umweru.

Ivuriro riganwa n'abantu batandukanye bafite ibibazo by'ubuzima, nk'abakoze impanuka, abarwaye indwara nk'umutima, Malariya n'izindi, rifite amabati y'ubururu n'ubusitani bunini.

Kaminuza nini, ifite ibara ry'umweru, amagambo yanditse hejuru y'umukara, n'ubusitani buteyemo ibiti bitandukanye n'umugabo uri gusohokamo wambaye ishati y'umutuku n'ipantaro y'umukara.

Abaganga batatu bari mucyumba cyo kwa muganga basuzumiramo ibizami by'abarwayi, bambaye amataburiya y'umweru na ga z'ubururu n'ibindi bikoresho bitandukanye biri ku meza y'umweru.

Ikigo nderabuzima kinini kiganwa n'abantu bafite ibibazo by'ubuzima, baturutse impande n'impande harimo abafite ibibazo by'umutima, malariya, abaje kubyara, imbere hari umudamu ukenyeye igitenge kirimo amabara y'umweru uhetse umwana.

Ivuriro rinini rifite amabati y'ubururu n'irangi rijya gusa n'umweru, riganwa n'abantu benshi batandukanye, bafite ibibazo by'ubuzima, abakoze impanuka, ababyeyi baje kubyara n'abandi, imbere hicaye umugore n'umugabo n'abana babiri.

Icyumba cyo kwa muganga cy'umweru, gifite intebe z'umutuku, kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu guha serivise ababagana.

Inzu icururizwamo imiti itandukanye yitwa farumasi, iganwa n'abantu bafite ibibazo by'ubuzima n'indwara zitandukanye, bakabafasha mu kubitaho mu gihe batarajya kwa muganga.

Abagabo babiri bicaye mu cyumba, umwe ni uwo muri Croix Rouge yambaye umupira w'umweru, ijire y'umukara na rinete z'umukara, undi yambaye ishati ya karokaro, bari kumurebera uko ubuzima bwe buhagaze, ku ruhande icyapa hari cyanditseho lrembo.

Icyumba cyo kwa muganga, aho abarwayi bagiye kumara iminsi bategerereza, bitabwaho, harimo ibitanda bishashishije amashuka ya buresiyeri na supanete z'umweru n'amarido y'umuhondo, haryamyeho abarwayi babiri.

Umuganga wambaye ikabubura y'umweru n'ishati ijya gusa n'umweru n'umukara n'ikayi y'umukara na rinete z'umukara, n'igikoresho kimwe mu byo kwa muganga bifashisha mu gufasha ababagana n'umwana wambaye ikanzu irimo amabara y'umukara na pinki.

Icyumba cyo kwa muganga gifite amarangi y'umuhondo n'intebe ebyiri imbere, hari gutambuka umusaza, ivurirwamo abagore baje kubyara cyangwa bari hafi kubyara.

Icyumba cyo kwa muganga kibikwamo imiti itandukanye yifashishwa mu kuvura abaje babagana barwaye indwara zirimo umutima, igifu, marariya n'izindi.

Inzu nini nziza ifite irangi rijya gusa n'umweru cyangwa n'umuhondo, ifite imiryango umunani isize ibara rya kaki na taburo imanitse ku rukuta, ifite ibara ry'umuhondo n'amabara y'umweru n'umutuku.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo umwana muto wambaye imyenda y'ishuri, bari kureba uko ubuzima bwe buhagaze ni umuganga w'umutegarugori wambaye itaburiya y'umweru n'agapfukamunwa k'ubururu.

Umwana muto w'umuhungu wambaye ikoti ry'umukara n'ishati y'umweru, ari gusunika umusaza wambaye ishati y'umweru, uri mu kagare k'umukara, imbere yabo hari umutegarugori wambaye umupira w'umweru n'ijipo y'umukara.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo abaganga babiri, harimo umutegarugori w'umuganga, wambaye itaburiya y'umweru, ga z'umweru, rinete z'umukara, ari kwita ku mudamu urwaye, wambaye ibitenge bifite amabara ya shokora n'umweru, amashuka y'ubururu n'igitanda cy'umweru.

Inzu nini y'ivuriro iri kugendwaho n'abaganga babiri b'abagabo bambaye amataburiya y'umweru, iganwa n'abantu benshi batandukanye bavuye impande n'impande harimo abarwaye indwara zisanzwe, abakoze impanuka, abaje kubyara n'abandi.

Umukecuru wicaye wambaye ikanzu ifite amabara y'ubururu na orange n'agatambaro k'umukara mu mutwe, ari kumwe n'umuganga wambaye imyenda ibaranga ifite ibara ry'ubururu n'agakoresho mu ijosi kabafasha kureba uko muntu ameze.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye, harimo na mashini zireba mu mubiri w'umuntu uko ameze, harimo igitanda kiriho amashuka y'umweru kiryamyeho umutegarugori.

Ibitaro by'amaso binini, bifite irange rijya gusa n'umweru n'irindi ry'ubururu, rizamo abantu benshi batandukanye, baturutse impande n'impande, bafite indwara y'amaso gusa.

abagabo n'abagore bambaye amashati y'umweru n'amapantaro y'umukara, bafite utuntu tumeze nk'udutebo turimo nk'imbuto, bari kugana ku ivuriro bisa naho bagiye gusura abarwayi barwariyeyo.

Inzu yo kwa muganga, nini, ifite ubusitani bunini burimo indabo zitandukanye, ibitaro biganwa n'abantu bavuye impande n'impande, barwaye indwara zitandukanye, abakoze impanuka, ababyeyi baje kubyara n'abandi.

Icyumba cyo kwa muganga gitegerererezamo abantu bagiye kumara iminsi bitabwaho, kirimo ibitanda birenga bitanu, kirimo mustikeri y'umweru, kirimo abantu bafite ibibazo by'ubuzima barwaye indwara zitandukanye zirimo igifu, umutima, diyabete n'izindi.

Ivuriro rinini riganwa n'abantu baturutse impande n'impande bafite ibibazo by'ubuzima bitandukanye, nk'indwara z'umutwe malariya abakoze impanuka imbere hari umudamu uhetse umwana ufite agashuka k'umweru.

Icyumba cyo kwa muganga gifatirwamo ibizami bitandukanye, hicaye abagore n'abagabo bategereje ibisubizo byo kubona uko ubuzima bwabo buhagaze.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo ibikoresho bitandukanye n'amacupa y'umweru n'abaganga bane, bambaye udupfukamunwa tw'ubururu, amataburiya y'umweru na ga z'umweru.

Ikigo nderabuzima cya Gisenyi, ni kimwe mu biganwa n'abantu batandukanye bafite ibibazo by'ubuzima, harimo abarwaye malariya, umutima n'izindi ndwara zitandukanye.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo abaganga bambaye imyenda y'umweru n'ubururu, bisa naho bita ku barwayi bafite indwara zidakira z'ibyorezo zimwe zandura.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru, agapfukamunwa k'ubururu, ari gupima umwana wambaye ipantaro y'umukara waherekejwe n'umusore wambaye ikabutura y'umukara n'umupira w'umweru.

Ibitaro bya Kabgayi biri mu karere ka Muhanga, biri mu ntara y'amajyepfo, byakira abantu batandukanye bafite ibibazo by'ubuzima, harimo amaso, umutima, igifu n'izindi.

Icyumba cyo kwa muganga kinini cy'umweru, kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gusuzuma indwara ababagana bafite kugira ngo bahabwe ubufasha bukwiye.

Ibitaro bifite irange ry'umweru n'ubururu n'ibikoresho bitandukanye, harimo abaganga bambaye imyenda ibaranga uwambaye iy'ubururu, n'iya buresiyeri, n'iy'umweru n'agapfukamunwa.

Ikigo nderabuzima kinini gifite ubusitani bunini kiriho abagore n'abagabo baturutse impande n'impande zitandukanye, bafite ibibazo by'ubuzima, birimo indwara z'umutwe iz'umutima n'izindi.

Icyumba cyo kwa muganga gitegererezamo n'abarwayi bafite indwara zitandukanye, kirimo ibitanda birenga bitanu by'umweru, amarido y'ubururu na supanete z'umweru.

Ivuriro risize irange ry'umweru, hari umwana wicaye mu kagare k'umukara, wambaye ikanzu ijya gusa nk'icyatsi n'undi uri kumanuka hafi y'ubusitani, wambaye umupira w'umuhondo.

Mu cyumba kirimo ibitanda byinshi by'ubururu n'umweru, hari umugabo wambaye ishati ya karokaro n'ipantaro ya kaki, hari kwitabwaho n'umuganga wambaye itaburiya y'umweru w'umukobwa n'agapfukamunwa k'ubururu, n'abandi hirya, umuganga n'umurwayi.

Ibitaro binini bifite irangi ry'umweru n'amabati ajya gusa n'umutuku, biganwa n'abantu benshi batandukanye, baturutse impande n'impande barwaye cyangwa bakoze impanuka, cyangwa izindi serivisi zijyanye n'ubuzima baba baje kuhaka.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye, harimo muganga ufite igikoresho cy'umutuku mu ntoki, ga z'umweru, ipantaro y'umukara n'itaburiya y'umweru.

Umusore wicaye ku gitanda cyo kwa muganga bisa naho yavunitse ukuguru yambaye imyenda y'umukara n'umuganga wambaye imyenda ibaranga ifite ibara ry'ubururu.

Umutegarugori uri mu myitozo ngororamubiri, yicaye ku gatopi kajya gusa n'umweru, yambaye ipantaro ijya gusa nk'umweru n'agasengeri bisa n'impeta n'imisatsi migufi y'umukara.

Abari n'abategarugori n'abagabo bavuye impande zitandukanye, bahuriye ahantu hamwe bagira ngo bakore imyitozo ngororamubiri ifasha mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Umutegarugori uri mu myitozo ngororamubiri, yambaye ikabutura y'ubururu, umupira ujya gusa n'icyatsi n'inkweto zirimo amabara y'umweru n'ubururu n'umutuku n'imisatsi miremire myinshi, afashe ku cyuma bitorezaho.

Abaganga babiri umugabo n'umugore bambaye amajiri y'umutuku n'udupira tw'umweru n'amapantaro y'umukara, bari gutanga ubuvuzi bwihutirwa ku mukinnyi wari uri gukina umupira w'amaguru bisa naho yavunitse.

Icyumba kirimo intebe n'ibikoresho by'abana bibafasha mu mikino, harimo abantu batanu, umubikira umwe wambaye imyenda ibaranga upfukamye ku itapi, n'umuzungukazi n'umwana mutoya.

Abana biganjemo ab'abahungu bari hagati y'imyaka icumi na cumi n'itandatu, harimo ab'abahungu bambaye amasengeri y'umukara, bari mu kibuga cya vole bisa naho bari kogeza umupira.

Umusore uri mu nzu yabugenewe ya siporo, yambaye umupira w'umutuku, ikabutura y'umukara ifite ibara ritukura ku ruhande, inkweto z'umweru n'amasogisi y'umukara, iruhande rwe hari ibikoresho bijyanye na siporo bifite amabara y'icyatsi, umutuku, ubururu na oranje.

Umugabo uri mu myitozo ngororamubiri yambaye ipantaro y'umukara, umupira w'umweru, akantu k'umukara k'agakomo n'impeta ku rutoki ijya gusa umuhondo.

Umukobwa uri muri siporo mu gitondo, akazuba kari kurasa, yambaye agasengeri ka buresiyeri, ari kunywa amazi mu icupa ry'ubururu, afite imisatsi myinshi y'umukara.

Ikirahure kiri gusukwamo amazi aturutse mu icupa rinini rifite umunwa w'ubururu nk'uko tubizi amazi ni ubuzima, avura indwara nyinshi zitandukanye bikanadufasha kugira ubuzima bwiza.

Icyumba bakoreramo imyitozo ngororamubiri, kirimo ibikoresho bitandukanye, hari umusore uryamye hasi ku gatapi, wambaye umupira ujya gusa n'umweru, ikabutura y'umukara n'inkweto z'umweru uri gukora siporo.

Icyumba cyo kwa muganga cy'umweru gifite akabati k'umweru, kirimo ibikoresho bitandukanye bifasha mu kureba uko abarwayi bameze.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo umusore uryamye, wambaye ipantaro ya kake n'umupira ufite amabara y'umweru n'iroze, ku kaguru ke afite ibyuma bifasha abantu bavunitse, abagabo bambaye amakoti babiri n'umuganga.

Umugabo uhagaze mu kibuga wambaye ikabutura y’umukara n'umweru n'umupira w’ubururu, afite ballon mu ntoki y’umweru, ari kumwe n’umwana wambaye umupira w’umuhondo n'ikabutura y'umukara, ari kugendera mu bikoresho byabugenewe bifasha abantu kugenda neza.

Umusore wari uri mu mikino yo kwiruka, yambaye agasengeri k'umutuku n'umweru n'ikabutura y'umukara, bisa naho arwaye cyangwa ananiwe cyane, afitwe n'umugabo wambaye ga z'umweru ni'ijiri y'icyatsi n'agapira k'umweru uri kumusindagiza.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo umugabo wambaye agapfukamunwa k'ubururu n'umugore utaruye umwana, wambaye agapira k'ubururu, bari kumwe n'undi wambaye agapfukamunwa k'umukara n'umuganga wambaye itaburiya y'umweru n'agapfukamunwa, ufite igikoresho ari gupima umwana.

Imeza y'umukara iriho imbuto zitandukanye zirimo inanasi, amaronji, indimu n'imineke, hariho n'ibinini bifite ibara ry'umutuku n'umweru n'imidari itatu n'utundi tuntu tw'ubururu dukoze mu tuzeru.

Umutegarugori wicaye hasi uri mu myitozo ngororamubiri, yambaye inkweto z'umweru ipantaro y'umukara n'isengeri y'umukara n'udukoresho tw'isakazamajwi tw'umweru.

Umukobwa uri mumyitozo ngororamubiri, wambaye ipantaro ijya gusa n'ubururu n'agapira bisa, arambuye amaboko afite imisatsi miremire y'umukara.

Igikapu cy'umutuku n'umukara kirimo ibikoresho n'imiti byifashishwa mu gutanga ubuvuzi bwihutirwa cyane iyo habaye nka agisida cyangwa imvune, harimo ibipfuko, imakasi n'ibindi.

Umusore uri mu cyumba cyo kwa muganga, wicaye mu ntebe y'ubururu yavunitse ukuguru, afite icyuma kiri kumufasha mu mvune, umugabo w'umuganga wambaye itaburiya y'umweru, inkweto z'umukara n'ipantaro ijya gusa n'umukara.

Umusore uri muri siporo wambaye umupira w'umweru ufite udukoresho tw'isakazamajwi n'icupa ry'amazi, afite ibara ry'ubururu hejuru ku munwa n'isaha ku kuboko y'umukara, uko tubizi twese siporo ni ubuzima dushishikarizwa kuyikora kugira ngo tugire ubuzima bwiza.

Umutegarugori uri mu myitozo ngororamubiri yicaye ku gatapi kajya gusa n'umweru, yambaye ipantaro y'umutuku n'agasengeri bisa, afite imisatsi myinshi y'umukara.

Icyumba cy'uruganiriro kirimo intebe z'umweru, harimo umukobwa uri mu imyitozo ngororamubiri wicaye hasi, yambaye kora y'umukara n'agasengeri kajya gusa n'umweru.

Umusore munini uri muri siporo yambaye isengeri y'icyatsi, ari kwisukaho amazi mu maso, afite ibara ry'umweru n'umufuniko w'umukara, bisa nkaho ari muri siporo.

Abana benshi barimo ab'abahungu n'abakobwa bari mu kibuga cyisanzuye barigukora imyitozo ngororamubiri barigutozwa n'umugabo wambaye umupira w'umweru n'inkweto z'umukara.

Umugabo wambaye umupira ujya gusa n'umweru, uri kunywa amazi ari mu icupa risa n'ubururu, bigaragara ko ari muri siporo kandi tuziko siporo ari ingenzi mu buzima bwacu ndetse no kunywa amazi ari ingenzi cyane mu buzima bwacu bwa buri muntu.

Umutegarugori wicaye wambaye imyenda ibaranga, ifite ibara ryijya gusa nk'ubururu n'igikoresho mu ijosi cy'umukara, bipima uko umuntu ahagaze na ga z'ubururu, ari kwambara agapfukamunwa, ku meza hateretse mashine n'amakaye n'ikaramu.

Inkoni y'umukara yifashishwa cyane n'abantu bageze mu zabukuru b'abasaza n'abakecuru cyangwa abandi bafite ikibazo cyo kutagenda neza.

Igikapu cy'umutuku n'umukara, kirimo imiti n'ibikoresho byo kwa muganga bitandukanye, byifashisha mu gutanga ubuvuzi bwihutirwa cyane cyane imvune cyangwa ibikomere byoroheje.

Umukobwa uri mu cyumba cyo kwa muganga bisa naho hafite ikibazo cyo mu ngingo, yambaye ipantaro y'umukara ari gufashwa n'umuganga wambaye imyenda ibaranga y'ubururu ari kumukanda mu ivi.

Aka box k'icyatsi karimo imiti n'ibikoresho byifashishwa mu gutanga ubuvuzi bwihutirwa harimo nk'imvune cyangwa ibikomere, ibyo bikoresho bigizwe n'umukasi, ibipfuko n'ibindi.

Abahungu n'abakobwa bakora muri croix rouge, bambaye umwambaro ubaranga, ijire y'umweru ifite imbere umusaraba w'umutuku, bari mu cyumba kirimo umurwayi uryamye hasi wakomeretse, ari gufashwa n'umwe muri bo wambaye ijire y'umutuku.

Umusore wicaye hasi bisa naho avuye muri siporo yambaye isengeri y'umukara n'agakomo k'icyatsi ari kunywa amazi ari mu icupa ry'ubururu n'umweru.

Ni umutegarugori uri muri siporo wambaye udukoresho tw'isakazamajwi tw'umweru, isaha y'umukara, isengeri ijya gusa n'umweru n'umukara, uri kwikora mu mugongo.

Umusore bisa naho ari muri siporo arahagaze ari kuruhuka yifashe mu mayunguyungu ari kunywa amazi, yambaye agapira k'ubururu n'ekuteri mu ijosi zifite ibara ry'ubururu n'umweru n'umukara.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo abarwayi, hari abaganga batatu bambaye amataburiya y'umweru, n'undi muntu wambaye ikositime y'umukara n'ishati y'ubururu, imbere hari igikoresho cy'ikoranabuhanga, bisa naho hari uwo bari kuvuganiraho.

Umugabo uri muri siporo bisa naho hicaye ari kuruhuka, yambaye agapira k'ubururu, ipantaro y'umukara na terefone mu ntoki iriho udukoresho tw'isakazamajwi tw'umweru na esuwime y'umuhondo mu ijosi, ari kunywa amazi.

Umutegarugori wicaye hasi, yambaye inkweto z'umweru n'iroze, ipantaro y'umukara, agasengeri kajya gusa n'iroze, gafite ibara hejuru ry'ubururu.

Agatanda kitwa burankare gafite ibara ry'ubururu, kifashishwa mu gufasha umuntu wavunitse kugira ngo agere ku modoka imugeza kwa muganga , cyangwa w'umukinnyi kugira ngo bamuvane mu kibuga.

Umuganga w'umugabo wambaye itaburiya y'umweru n'ishati ya buresiyeri mo imbere, ufite agakoresho mu ijosi k'umukara gafasha mu kureba uko umuntu ameze, ari gukanda mu ivi umurwayi bisa naho yavunitse.

Umukobwa uri muri siporo, ufite imisatsi myinshi, yambaye umwenda ujya gusa nka move n'udukoresho tw'isakazamajwi, ari kunywa amazi ari mu icupa rifite ibara ry'ubururu.

Umusore wambaye umupira ujya gusa nk'umweru, ufite umusatsi muke, ari kunywa amazi, icupa rifite umunwa w'ubururu, ateranya umugongo n'umukobwa wambaye umupira w'umukara, uri kunywa amazi.

Igikapu giteretse ahantu, gifite amabara y'umutuku n'umukara, kirimo ibikoresho bitandukanye byakwifashishwa mu buvuzi bw'ibanze, harimo umukasi, bande ibipfuko, igikwasi n'ibindi.

Imodoka yo kwa muganga, izwi nk'imbangukiragutabara ifasha mu kwihutisha abarwayi barembye, barimo nk'abakoze impanuka cyangwa abarwaye izindi ndwara.

Umutegarugori uri muri siporo, afite esuime ku rutugu n'agasengeri, gafite amabara y'ubururu n'umweru n'icyatsi na gashanete, ari kunywa amazi mu icupa ry'umweru n'ubururu.

Umukobwa bisa naho wicaye ku gitanda cyo kwa muganga, yambaye umupira w'ubudodo wa oranje, yavunitse mu ivi cyangwa akaba afite igikomere hariho igipfuko cy'umweru.

Ibikoresho birimo imipira mu gukina imikino itandukanye, irimo basikete, futubolo, rugubi n'ibindi bikoresho bijyanye na byo, mu gufasha abantu gukora siporo.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo umusore uryamye ku gitanda cy'umukara wavunitse ukuguru bari kumushyiraho akantu k'ubururu, yambaye umupira ujya gusa n'icyatsi n'ipantaro yikoboyi y'ubururu, n'umuganga wambaye ibaji n'ishati y'umweru.

Ibikoresho n'imiti byifashishwa mu gutanga ubuvuzi bwihutirwa, cyane cyane nko ku bantu bavunitse bari muri siporo, harimo bande, ibipfuko n'ibindi.

Umutegarugori wicaye ku gatanda wambaye kora y'umukara n'agapira k'umutuku n'amasogisi y'umukara, ari kumwe n'umuganga w'umugabo wambaye itaburiya y'umweru, umufashe ku kuguru bisa n'aho yavunitse mu ivi.

Umukobwa ufite esime ku rutugu, wambaye agasengengeri karimo ubururu n'umweru n'cyatsi, ari kunywa amazi mu icupa ry'umweru n'ubururu.

Umusore uri muri siporo, uri ahantu ku kiraro, yambaye umupira ujya gusa nk'umweru, ikabutura y'umukara, inkweto z'umweru, ari kwigorora, ukuboko kumwe gufashe ukuguru, ukundi gufashe mu nda.

Umukobwa wicaye ku gatanda ko kwa muganga k'umukara wavunitse ukuguru, yambaye ikabutura y'umukara n'umupira bisa n'inkweto zirimo umweru, ari gufashwa n'umugabo wambaye imyenda y'umukara, bari kumuzirika bande ku kaguru.

Umukobwa wicaye hasi ku gatapi, ari gukora imyitozo ngororamubiriz yambaye inkweto zisa n'umutuku, ipantaro y'umukara n'udukoresho tw'isakazamajwi tw'umweru, iruhande hari icupa ririmo amazi rifite ibara ry'ubururu.

Umusore uri hagati y'imyaka makumyabiri n'itanu na mirongo itatu ni'itanu, ari gukora siporo arambura amaguru yambaye umupira w'umuhondo imbere ufite amabara y'umutuku n'umukara, ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara.

Umutegarugori uri mu cyumba yicaye ku buriri bufite kuvureri isa nk'ivu, ari kwinanura bisa n'aho ari muri siporo, yambaye imyenda y'umukara, ipantaro n'isengeri bisa.

Ibikoresho byakwifashishwa mu kuvura umuntu ugize ikibazo gitunguranye, ari nka akisida cyangwa yari ari muri siporo, kugira ngo ubufasha bukwiye buze kumugeraho ameze neza, harimo umukasi, amapamba, ibikwasi n'ibindi n'ibindi.

Umutegarugori wicaye mu ntebe y'umukara, wambaye ijire irimo amabara y'ubururu n'umweru n'agapira kajya gusa n'umutuku, imbere afite igikoresho ari kwifashisha apima umwana bicaranye wambaye agakote karimo amabara y'umweru n'umukara.

Umukobwa wicaye mu byatsi uri muri siporo, wambaye ikabutura y'ubururu n'ibara ry'umweru ku ruhande n'isengeri ya oranje n'akabara k'umweru n'inkweto z'umweru.

Umugabo uri mu myitozo ngororamubiri, wambaye isengeri y'umukara n'ikabutura bisa n'inkweto zifunze n'amasogisi, ari gukorera siporo ku biti, yazamuye ukuguru hejuru, agafatisha amaboko abiri, yambaye isaha y'umukara.

Umusore wambaye umupira w'umweru n'ikabutura irimo amabara yumukara n'umweru, afite igikoresho mu ntoki kimufasha kugenda neza, arikumwe n'umuganga uri kumufasha wambaye imyenda ibaranga y'ubururu na ga z'umweru.

Igikoresho cyo kwa muganga kizwi nka bulankare cyifashishwa mu kujyana umuntu kwa muganga cyangwa mu modoka utabashije kugenda bitewe n'imvune cyangwa ikindi kibazo.

Umutegarugori uri mu myitozo ngororamubiri, yahinnye akaguru akafatishije akaboko, yambaye ipantaro ya buresiyeri, inkweto z'umweru n'agasengeri k'icyatsi.

Umusore w'ibigango, wambaye agasengeri k'icyatsi, uri kunywa amazi bisa n'aho ari imyitozo ngororamubiri nk'uko tubizi twese siporo idufasha kugira ubuzima bwiza.

Icupa ririmo amazi rifite umufuniko w'ubururu, riri kumwe na pome n'irongi n'izindi mbuto. N'agakoresho kifashishwa muri siporo na metero y'umuhondo.

Icyumba cyo kwa muganga gisize irangi ry'umweru, kirimo igikoresho cyo kwa muganga cyifashishwa mu gukora isuzuma ry'umubiri wose ngo barebe uko umuntu ahagaze.

Umuganga ufite baro ijya gusa na shokora, wambaye itaburiya y'umweru na karuvate ifite amabara y'ubururu n'umweru' n'igikoresho mu ijosi cy'umukara cyifashishwa mu gupima abantu.

Imiti gakondo iri mu macupa atandatu iteretse ahantu runaka iri mu ibara ry'umweru n'icyatsi kibisi ivura indwara nyinshi zitandukanye zirimo iz'ubuhumekero n'izindi.

Ibimera gakondo bitandukanye, bihingwa ahantu henshi, harimo ibyimeza, bifite ibara ry'icyatsi kibisi, bizwiho kuvura indwara nyinshi zitandukanye, harimo iz'uruhu n'iz'ubuhumekero n'izindi.

UImiti gakondo ifite ibara ry'icyatsi, iri mu kantu kameze nk'agasekuro k'umweru n'akandi bahondesha kumweru n'uducupa tubiri tugufiya turimo umuti usa n'umuhondo.

Ikimera gakondo cyitwa umuravumba gifite ibara ry'icyatsi kibisi, gihingwa ahantu hatandukanye kikaba gikiza indwara zirimo ibicurane, inkorora, n'izindi.

Ikimera kitwa igikakarubamba, gifite ibara ry'icyatsi kibisi n'utuntu tw'uduhwa kuruhande, rizwiho kuvura indwara zirimo iz'uruhu.

Umuti gakondo uri mu icupa rigufi ry'umweru, ririho amabara y'icyatsi, uvura indwara nyinshi zitandukanye zirimo iz'uruhuhu, iz'ubuhumekero n'izindi.

Imiti itandukanye irimo amakarito y'ubururu, hari ay'umuhondo, hari afite ibara ry'icyatsi kibisi n'andi afite ibara ry'umukara na shokora, ku ruhande hari ifite ibara rya pinki rishushanyijeho umukobwa.

Igihingwa cyitwa tangawizi, gifite ibara ry'umuhondo, kizwiho mu kuvura indwara zitandukanye z'ubuhumekero, ahanini ni n'ikirungo cyiza cyo mu cyayi no mu biryo.

Amacupa abiri arimo umuti gakondo w'ikimera k'itwa; igikakarubamba, kizwiho kuvura indwara zitandukanye, izijyanye n'ubuhumekero, indwara z'umubiri, icupa rimwe ni umuhondo rifite umufuniko washokora, irindi ni umweru rifite umufuniko ujya gusa n'iroza.

Icupa rigufiya ry'umweru, rifite andi mabara hasi y'icyatsi na pinki, rivura indwara ya amibe, iyo akaba ari indwara yo mu nda, ifitwe n'abantu benshi batandukanye.

Amacupa agera kuri atanu, yambaye igipapuro cy'umweru n'umufuniko w'ubururu, kirimo imiti itandukanye ya gakondo, yifashishwa mu kuvura indwara z'ubuhumekero.

Umuti gakondo ukorwa mu gikakarubamba kizwiho mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye, iyo miti iri mu ducupa tugufi tubiri dufite ibara ry'umweru n'icyatsi n'akandi kamwe gafunguye.

Umutegarugori wambaye igitenge kirimo amabara y'umuhondo n'umutuku n'icyatsi, ari guca uturabo dufite ibara ry'iroze n'ibibabi by'icyatsi.

Amacupa atatu arimo umuti gakondo, ukorwa mu kimera cyitwa igikakarubamba, icupa rya mbere rifite ibara ry'umuhondo na shokora, irindi umweru na oranje, n'iry'umweru n'ubururu n'igikakarubamba gikase.

Umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, uri mu macupa abiri y'umuhondo maremare afite ibara rya shokora hejuru n'utundi ducupa tubiri tw'umweru tugufi.

Umuti gakondo uri mu icupa rirerire ry'umweru n'ubururu n'utundi ducupa tugufiya, uvura indwara izo ari zo zose z'imvune, harimo: Kuvunika mu ivi, umugongo, urutugu n'ahandi.

Ibimera ni bimwe mu byo Imana yaturemeye, bifitiye akamaro abantu, mu bice bitandukanye kuko byifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, zirimo iz'ubuhumekero n'izo ku mubiri.

Ikiribwa cyitwa tungurusumu gifite ibara ry'umweru, kizwiho mu kugira intungamubiri zidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, cyane cyane ku bantu barwara umutima.

Amacupa arimo imiti ya kinyarwanda, ari hagati y'amacupa icumi na cumi n'atatu, akorwa mu cyatsi kitwa igikakarubamba, ari mu ikarito ifite ibara rya kaki n'icyatsi ku ruhande aya, macupa afite amabara atandukanye harimo umuhond, icyatsi na shokora.

Isabune ifite ibara rijya gusa nk'umweru, ikozwe mu bimera nk'igikakarubamba kizwi cyane nk'umuti gakondo uvura indwara nyinshi, harimo n'urubuto rwitwa avoka, na rwo ni rwiza mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Imiti gakondo iri mu ducupa dutatu duteretse ku meza, harimo akagufiya cyane gafite ibara ry'umutuku, kandi ubururu, kandi move bivura indwara zitandukanye.

Imiti gakondo iri mu macupa atandukanye, yaba amagufi n'amatoya, iri mu kabati gafite ibara ry'umweru n'icyatsi ku ruhande, inyuma hari umutegarugori wambaye agapira k'umweru n'ipantaro ijya gusa n'umweru.

Umutegarugori wambaye umupira ujya gusa n'umweru w'amaboko maremare, ufite ingofero, agatambaro mu mutwe k'ubururu n'umweru, ari kumwe n'umugabo wambaye umupira w'umukara wo kwifubika n'undi w'imbere utukura.

Imiti gakondo itandukanye imyinshi ifite ibara ry'icyatsi, iteye mu mavaze atandukanye, izwiho kuvura indwara nyinshi zirimo iz'uruhu, iz'ubuhumekero n'izindi.

Imiti gakondo ikorwa mu kimera cyitwa igikakarubamba izwiho mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye, iri mu icupa rigufi ya ry'umweru, n'irindi rirerire ry'umweru, rifite umufuniko ujya gusa n'umutuku.

Umuti gakondo uri mu icupa ry'umweru rigufi, rifite icyapa gifite amabara y'umukara n'umweru, rizwiho kuvura indwara zitandukanye zirimo iz'uruhu, iz'ubuhumekero n'izindi.

Umuti gakondo ukorwa mu kimera cyitwa igikakarubamba kizwiho kuvura indwara zitandukanye, uwo muti uri mu icupa ry'umweru, rifite amabara imbere y'ubururu na shokora.

Agacupa k'umweru kagufiya gafite ibara ry'umweru n'agafuniko k'umweru, rifite icyapa imbere ryiganjemo ibara ry'ubururu, rivura indwara zitandukanye iz'ubuhumekero n'izindi.

Amacupa arambitse ahantu harimo imiti gakondo, ari mu icupa ry'icyatsi irindi rijya gusa na shokora bifite ibyapa imbere biriho icyo uwo muti ukorwamo n'ibindi bintu bijyanye n'amakuru kuri uwo muti.

Imiti gakondo itandukanye ivura indwara nyinshi zirimo iz'u ruhu, iz'ubuhumekero n'izindi n'izindi.

Imitigatu iteretse ahantu, iri mu bikarito, ifite amabara yiganjemo ay'icyatsi, umweru, ubururu na orange, imiti gakondo ivura indwara zitandukanye.

Umutegarugori wambaye agatambaro k'umweru acuruza imiti gakondo itandukanye iri mu macupa menshi, iruhande rwe hari undi mutegarugori wambaye itaburiya y'umweru n'umugabo uje ubagana wambaye ishati ya karokaro.

Urubuto rwitwa ipapayi, ruzwiho mu gufasha ubuzima bw'umuntu kugira ngo bugende neza, ruvura n'indwara nyinshi zitandukanye zirimo nka constipation.

Imiti itandatu gakondo iri mu macupa y'umweru, afite ibara ry'icyatsi, akorwa mu kimera cy'igikakarubamba, kizwiho kuvura indwara nyinshi zitandukanye.

Umuti gakondo uri mu icupa ry'umweru rigufi, riteretse ku isahani y'umweru, uri kumwe n'ibyo ukorwamo ari byo amacunga, ni urubuto rwiza rudufasha kugira ubuzima bwiza.

Umuti gakondo uri mu icupa ry'umweru n'umufuniko w'ubururu, wandikishijwe imbere amagambo y'ubururu, uvura indwara zitandukanye, zirimo iz'uruhu n'izindi.

Imiti gakondo iri mu kabati k'umweru, iri mu macupa maremare n'amagufi, izwiho mu kuvura indwara z'amarozi, iz'uruhu, iz'ubuhumekero n'izindi.

Umuti gakondo wera ahantu henshi hatandukanye, hakaba n'igihe wimejeje, uvura indwara zitandukanye zirimo iz'uruhu, iz'ubuhumekero n'izindi.

Itasi ntoya y'umweru iteretse ku gasahane kayo nako bisa, harimo icyayi cy'indimu na tangawizi kizwiho kuvura indwara zijyanye n'ubuhumekero bigatuma n'amaraso atembera neza.

Imiti gakondo itandukanye iteretse ahantu mu bikoresho byabugenewe bibika imiti ivura indwara nyinshi zitandukanye zirimo iz'uruhu, iz'ubuhumekero n'izindi.

Icupa ry'umweru rifite amabara hasi ya oranje, iroze n'icyatsi, rivura indwara zitandukanye, rikumira indwara zifata porositate no gucika intege mu gikorwa cy'abashakanye.

Imiti itandukanye iri mu macupa magufiya, amaremare, n'andi aringaniye ikorwa mu kimera cyitwa igikakarubamba n'ibindi bimera bitandukanye.